Abantu batatu bagiye gutera imiti imyaka yabo. Bambaye amabombo mu mugongo. Bose kandi bambaye ingofero zifite urugara mu mutwe. Ikindi batangiye akazi ko gutera umuti.

Abagabo babiri umwe ari guha undi igishashi kirimo umuti wifashishwa mu bihingwa. Umugabo mugufi yambaye amadarubindi ndetse afite n'ikaramu ku mufuka. Undi mugabo we afite ibyatsi mu ntoki, ndetse yambaye umupira w'ubururu n'ingofero.

Umumama wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, afite kandi ipombo mu mugongo ari gutera umuti wica udusimba mu mboga ze, ni byiza ko igihe imboga zawe ubona zigaragaza ibimenyetso by'uko zakwangirika jya utera umuti.

Abantu bahuriye ahantu mu murima w'ibigori ndetse harimo n'imibyare irundarunze ahantu hamwe mbese itarakorewe, hirya y'ibigori hariho ubundi butaka bukorerwaho ibindi bintu bitandukanye by'ubuhinzi, abo bantu bambaye imipira y'icyatsi ndetse bari gusobanurirwa n'uwo mu mama imiti itandukanye n'imikoreshereze yayo.

Umugabo uri mu mbuto uri gutera umuti wica udusimba, yambaye ibombo mu mugongo imufasha gutera uyu muti, ni byiza kwita ku myaka yacu kugira ngo tubone umusaruro ushimishije kandi umeze neza cyane.

Umupapa wambaye ibombo mu mugongo ari gutera umuti mu muceri, ni byiza ko twifashisha ibombo ndetse tukambara n'ibintu byabugenewe mu gihe tugiye gutera umuti mu muceri cyangwa sere no mu yindi myaka.

Ahantu hakorerwa ubworozi bw'amafi, umumama ukora ubu bworozi amaze kuroba amafi ari kuyereka umukiriya, uwo mumama yambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'ingofero, uwereka n'uwerekwa amafi bose bafite ifi mu ntoki.

Mu gishanga ahakorerwa ubworozi bw'amafi abantu bamaze kuroba amafi basa nk'abari kuyagaragaza buri wese afite ifi mu ntoki bameze nk'abari kwifotoza.

Amafi yarobwe, iyo umuntu arobye ifi ayishyira ahagaragara kugira ngo itaza kumucika igasubira mu mazi, ni byiza kurya ibikomoka mu mazi nk'amafi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Mu gishanga ku cyuzi aho baroba amafi, bisa naho aba bantu bariho umwe wunamye amaze kuroba ifi ari kwereka abantu baje kuyagura, impande y'iki cyuzi, hakikijwe n'ibiti bikunda kugaragara mu gishanga.

Amafi yarobwe, yashyizwe mu bikoresho byagenewe gushiramo ayo mafi yamaze kurobwa, hagaragara abantu batatu, ariko nta n'umwe ugaragara mu maso, umwe ahetse umwana undi yambaye agapfukantoki, bose bafashe ku mikondo.

Mu gishanga harimo ibyuzi abantu bororeramo amafi hakurya yaho hari ibiti by'inturusu bigaragara ko ibi biti bifasha abantu kubona umwuka bahumeka ndetse bigatuma n'igishanga kitangirika ni byiza ko tworora amafi kugira ngo abana bacu ndetse n'abandi bantu bose babashe kubona ibikomoka ku matungo ndetse no mu nyanja.

Mu gishanga, hahinzemo umuceri hari ahantu bagomeye ku ruhande aho umuntu avuye kurobamo amafi, ni umugabo yayatunze ku kantu kameze nk'akadodo afashe mu ntoki, uwo mugabo yambaye umupira wifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse no mu buzima busanzwe, ari kugaragaza amenyo, iruhande rw'abahinzi umuceri hari ibiti ndetse n'imyaka irimo n'urutoki.

Igihingwa cy'umuceri, uyu muceri wamaze guterera harimo umugabo urimo gukora igikorwa cyitwa kwamurora, kuruhande rwawo hariho ibyatsi ndetse n'ibiti ndetse no hagati mu muceri harimo ikindi giti.

Umubyeyi w'umugore ari kunoga icyayi mu murima, inyuma y'uwo mubyeyi hari igitebo kirimo icyayi yamaze kunoga, umubyeyi yambaye umupira w'umutuku ndetse yitambiye n'igitambaro gifite ibara ritari iry'umutuku mu mutwe.

Umuhinzi wabigize umwuga ari mu murima we, yambaye umupira w'umuhondo, aho ari mu murima hari imyaka itandukanye yiganjemo ikawa ndetse iryo kawa rivanze n'urutoki.

Imiti itandukanye y'amatungo, imiti iteretse hejuru y'iyindi miti. Iyi miti kandi ntabwo iri mu ngano imwe, harimo iri mu macupa manini n'iri mu macupa mato.

Ahantu hacururizwa imiti y'amatungo, harimo udukarito turimo imiti itandukanye, harimo kandi isaha iri kubara igeze mu mubare makumyabiri. Ni byiza ko ahantu bacururiza imiti y'amatungo haba hari ku muntu wabyigiye gusa.

Aho bacururiza imiti y'amatungo, harimo imiti igiye itandukanye kandi ivura indwara zitandukanye, harimo n'iyica uburondwe, iyi miti iri mu ngano zitandukanye.

hantu hagurishirizwa ibikoresho byo kwa muganga, harimo uturindantoki ndetse munsi y'uturindantoki turi mu gikarito hari icupa naryo ririmo umuti, ni byiza ko kwa muganga ariho hantu honyine hacuruzwa ibikoresho byo kwa muganga cyane cyane ku baganga bavura amatungo.

Ahantu bacururiza imiti y'amatongo. Imiti irimo yanditseho ibintu bitandukanye ariko ishushanyijeho n'amatungo atandukanye. Harimo ingurube ihene ndetse n'intama. Ni byiza ko tugana ababihuguriwe mu bintu by'ubworozi bakadufasha.

Amacupa atandukanye y'umweru aya macupa yose ntabwo angana, aya macupa ariho ikimenyetso kimwe icupa ripima, hari iripima ikiro kimwe ndetse n'amacupa ariho ibishushanyo by'inkoko, mbese bigaragara ko ari imiti y'amatungo

Umupapa w'umuhinzi ari mu murima we, yambaye imyenda ndetse n'ingofero, afite urugemwe mu ntoki bigaragara ko agiye kuruvuga n'indi myaka ihinze irimo ibigori, hirya ye hari ibindi byatsi byinshi bitandukanye.

Umuntu ufite urugemwe mu ntoki agiye kurutera, yambaye ingofero izinze ndetse n'agapfukamunwa, yambaye n'iyenda ijya gusa umukara, ni byiza gutera ingemwe zikiri ntoya.

Mu ishyamba harimo abantu babiri bafite igare, umwe ari imbere y'undi afashe igare ari gusunika ndetse afite n'isuka iri hejuru y'inkwi ziri ku igare, undi ari kumusunikira inyuma yikenyeje umupira w'umutuku, gufashanya ni ingenzi mu buzima.

Mu murima w'ibigori ndetse n'ibindi bintu bihinze ku ruhande rwawo bitandukanye harimo abantu batatu, umwe arunamye undi nawe yambaye ingofero mu gihe umuri inyuma ari umusirikare, bisa naho uyu musirikare yaje kwigisha bano bantu ukuntu bahinga bakiteza imbere barwanya ibyonnyi mu murima.

Mu murima w'ibigori, ibigori byaratereye ndetse bifite umusatsi ariko ntabwo byari byaba kwera, harimo abantu batandukanye biganjemo abamama babiri bambaye ingofero z'umutuku, ni byiza ko duhinga ibigori kugira ngo umuryango wacu utazafatwa n'ubukeneye cyane cyane kubura ibyo kurya.

Umupapa ukuze yambaye ishati ifite ibara ry'umweru, yambaye iyo n'ipantaro y'ikoboyi, mu ntoki ze afitemo urugemwe agiye gutera, ni byiza ko tubendeka ingemye mbere yo kuzitera kuko bituma tumenya gutera urugemwe rwa nyarwo.

Umurima w'ibigori kuri uwo murima hariho umugore wishimye cyane wambaye umupira w'ubururu ufitemo n'andi mabara ahagaze impande y'ibigori bifite uburemborembo, ni byiza ko twajya dusura imyaka yacu igihe twayihinze.

Mu gishanga aho bahinga umuceri, umuceri ugeze mu gihe cyo kubagarwa, umuntu arimo kubagara umuceri kugira ngo awurinde ibyonnyi ndetse n'uburwayi butandukanye, ni byiza ko tubagarira igihe kugira ngo tugire umusaruro mwiza kandi mwinshi.

Abahinzi babiri beza cyane kandi bizihiwe ni umugabo n'umugore, bose bafite amasuka ku rutugu bigaragara ko bari mu murima aho hari ibigori, imyumbati ndetse n'ibitoki, iyo witegereje neza ubona ko aba ari abahinzi b'umwuga.

Abantu babiri bari ahantu hari inka zitandukanye, harimo iz'inkungu ndetse harimo n'ifite ibara ry'isine yunamye hasi. Abo bantu bombi bambaye ingofero ariko z'amoko atandukanye. Umumama yambaye ikanzu naho umupapa yambaye imyenda y'umukara, afite n'ibindi bintu mu ntoki bimeze nk'inkuyo.

Mu ifamu, harimo umushumba uragiye inka ndetse n'inka zifite amabara atandukanye zirimo zirarisha izindi zihagaze. Harimo izifite ibara ry'isine, ikibamba ndetse n'izindi z'igaju. Harimo inzungu imwe ifite iherena ry'umuhondo.

Abantu bane bose ni abahinzi bari mu murima, umwe yambaye umupira w'umutuku ni'pantaro y'umukara undi we yambaye umupira ufite ibara ritagaragara neza ndetse afite n'ibyatsi mu ntoki, abagore babiri nabo bambaye ibitenge by'umutuku.

Umumama w'umubyeyi, yambaye umupira w'amaboko maremare uhinnye amaboko y'ubururu ndetse aniteza igitambaro cyo mu mutwe yambaye n'igitenge, ari mu murima we ahantu ari kubabagara iruhande rwe hari indi myaka myinshi ndetse witegereje neza no hakurya hariyo amazukwita ku myaka yacu igihe iri mu murima.

Abantu babiri umugabo n'umugore bari mu murima bafite igiti cy'imyumbati mu ntoki, icyo giti cy'imyumbati kiriho imyumbati myiza kandi ishimishije, aha bari ni mu murima urimo ibindi biti by'imyumbati ndetse kuri ubu butaka hakorerwa ubuhinzi nk'uko bigaragara.

Imyaka itandukanye imibyare n'intoryi, iyi mitumba nta n'umwe wanyinnyemo nizi ntoryi kandi ntabwo zirera, iyo witegereje neza ubona hano hantu hatari intoryi n'imibyarire gusa ahubwo hari n'ibindi bintu bitandukanye.

Ibintu byinshi bitandukanye icupa, ibirahure, ikigori, amaronji, indimu, pome ndetse n'ibirayi. Mu by'ukuri kurya imbuto ni ingenzi ku buzima bw'umuntu kuko imbuto ziri mu bituma ubwenge bwa muntu bukora neza.

Imyumbati ihinze neza ku buryo bugezweho mu murima, hirya yayo hari igiti cy'umunyinya, hakurya y'imyumbati hari amafamu. Bigaragara ko hano hantu koko ni mu karere ka Nyagatare kuko niho amafamu nk'aya akunda kugaragara.

Imibyari iri imbere yin'zu isize amabara y'ubururu ndetse iriho n'utubara tw'umutuku hirya n'akabara k'umweru, iyi mitumba umwe niwo wannyemo ndetse ubwoko bw'iyi mitumba bwitwa poyo.

Uruyuzi rukuze neza ariko rutabagariye. Rwatangiye kumeramo ibindi byatsi birimo inyabarasanya, rumari ndetse n'ibindi byatsi. Rwitaho kugira ngo ruguhe umusaruro wifuza.

Igihingwa cy'umwumbati, kiri hafi y'umuhanda utari uwa kaburimbo, ku ruhande rw'uwo muhanda hariho ibiti ndetse hariho n'inzu nziza cyane igezweho.

Mu isoko ahagurishirizwa ibintu bitandukanye, harimo abacuruzi n'abaguzi benshi, hagaragara igihingwa k'ibirayi rwose byeze neza bipakiye mu mifuka.

Mu ishyamba harimo abantu benshi, umuhanda bari kugenda mo si uwa kaburimbo, umuntu ubari imbere yambaye ingofero y'umweru.

Ishyamba ni hamwe mu hantu abantu benshi bakunda kujya gusura, kubera ko benshi bakunda mu ishyamba kuko haba hari akayaga keza. Ni byiza ko dutera amashyamba kugira ngo tubungabunge umwuka duhumeka, ndetse natwe atugirire akamaro kuko azana amafaranga.

Mu ishyamba ibiti ni birebire cyane, hariho ikintu cyitwa igihu mbese kimwe kiza imvura yaraye iguye cyangwa hazindutse nabi.

Mu muhanda wa kaburimbo, uyu muhanda ufite amatara ku muhanda uracaniwe, hariho ahantu abanyamaguru bagendera ndetse n'aho imodoka zigendera, ku ruhande rwawo hariho ibiti byinshi cyane, hakurya yaho hariyo ahantu batuye hari amazu.

Igihingwa k'imyembe, ni imyembi ya kizungu, imwe yita yembadodo, irahishije ariko iracyari mu giti.

Abamama bane bishimye cyane bari guseka cyane, bari mu murima uhinzemo ibihwagari, ibihwagari bimwe byatangiye kuraba hejuru, bose bafite umusatsi w'umwimerere nta n'umwe wasutse, ni byiza ko ubuhinzi bw'ibihwagari tubuteza imbere.

Urubuto rwa pome ruri ahantu mu murima rurahishije mbese ururi gutukura, rufashweho n'ikiganza kigaragara cyonyine kimeze nk'icy'umuzungu, ni byiza ko duhinga pome kuko zibamo intungamubiri nyinshi.

Urusenda rwiza cyane benshi bakunda kwita piripirimbuzi rurahishije cyane rufite n'inkondo, ni byiza ko abantu bize ibintu byo guteka bajya bateka ibiryo biryoshye bifashishije n'aka gasenda kuko ni keza cyane.

Imbuto z'inyanya zatangiye kwangirika, iyo witegereje neza ubona harimo ibishishwa by'imicungwe. Si byiza ko turundarunda inyanya ahantu hatameze neza kuko bishobora kuzitera kwangirika.

Umuhinzi uri mu murima, amaze gusarura imbuto ze yihingiye. Ni umugabo mu mbuto yasaruye harimo inyanya, karoti, amashu ndetse n'izindi mbuto.

Ahantu hakorerwa ubuhinzi ariko hariho n'abantu bahatuye, hariho imitumba, ibiseke ndetse n'abantu babiri hirya gato hariho n'imyenda yanitse, ahantu bigaragara ko ari nko ku kiraro, umuhungu uhagaze arimo aruhira imyaka undi yunamye hirya ku mitumba.

Umuhinzi uri mu murima we w'inoryi, ku ruhande ndetse no muri uyu murima hariho ibindi biti, arimo arasukera intokiyi ze, yifashishije umupira wabugenewe, yambaye ingofero y'urugara n'inkweto za bodaboda, ipantaro ye irakubye amaguru ndetse yambaye umupira w'ubururu uvanzemo n'utubara tw'umweru.

abantu batandukanye bambaye imyenda itandukanye ariko harimo babiri bambaye imyenda ijyanye n'ibintu bakora, bari kuhira imyaka kuko hari imashini iri kuhira ahantu kure ndetse n'amatiyo abiri atwara amazi kugira ngo umuntu yuhire bitamugoye.

Abahinzi bari mu murima bagiye kuhira imyaka yabo. Ni byiza kuhira imyaka kugira ngo ikure neza, itazadindira ukazabura umusaruro uhagije kandi ushimishije.

Ahantu hagenewe gukorerwa ubuhinzi harimo imirima y'abantu batandukanye ndetse n'ibihingwa bitandukanye, harimo kandi n'utuyira twifashishwa n'abahinzi kugira ngo bagere aho bahinga ntabwo harambitse mbese si umurambararo, hagiye harimo utununga ndetse n'ahameze nk'agasozi.

Ku masambu hariyo inyubako y'amategura ndetse hariho n'abantu babiri, hariyo imyaka yiganjemo imibyare ndetse n'ibiti bivangwa n'indi myaka n'indi myaka itandukanye, hagaragara n'ishami hejuru rirerire, bigaragara ko hari igiti kirekire cy'inganza marumbo.

Inka nziza cyane y'inkungu imeze nk'ikimasa yambaye iherena mu gutwi iri mu kiraro gikikijwe n'ibyuma bibiri aho yanyujijemo umutwe bigaragara ko ntakifite iri kurya, ni byiza kororera inka mu kiraro kuko bituma umunyirayo ayitaho.

Mu kiraro cy'inka, harimo inka nyinshi cyane zagiye zitandukanye zifite amabara atandukanye. Izi nka zorowe ku buryo bwa kijyambere, inyinshi muri zo ni inkungugu kuko ntabwo amahembe yazo agaragara, iyo witegereje neza ubona hirya cyane hariyo umuntu ugaburira izi nka. Ni byiza korohera mu kiraro.

Mu rwuri harimo inka zitandukanye zifite n'amabara atandukanye ziri munsi y'ibiti birebire ndetse n'ibigufi bitanga igicucu, ni byiza ko inka zibona aho zibyagira igihe ziri kurisha ahantu heza.

Ingurube ya bwaguye irahagaze ibibwana byayo bimwe biraryamye ibindi na byo birahagaze, iri mu kiraro ifite amabara y'igitobo.

Mu rwuri harimo inka zitandukanye, harimo inka y'igisa, isine, igaju, ibihogo, harimo n'ikimasa k'igisa cyuriye inka bigaragara ko yarinze, iyo witegereje neza ubona n'iruhande rw'iyi foto hariho umushumba wazo ziri mu rwuri.

Mu kiraro cy'inkoko harimo inkoko enye, harimo isake ndetse n'inkokokazi, harimo inkoko y'umukara ndetse n'indi y'umweru itagaraga umutwe, zagaburiwe, harimo n'igikoresho cyifashishwa bagaburira inkoko.

Ahantu hakorerwa ubworozi bw'ingurube, harimo ingurube in imwe n'ibibwana byayo yabwaguye, ni heza cyane ndetse n'amabwabwa yayo ikibwana kimwe kiri konkaho, ahantu iri hubatse neza cyane na sima.

Ikiraro cy'inka harimo inka nyinshi izigaragara neza cyane ni eshatu, imbere y'izo nka hariho umumama ufite umusatsi uboshye urimo amabara y'umutuku, yambaye n'umupira w'umweru ndetse afite n'akantu mu ntoki k'ubururu, ni byiza ko igihe ufite inka wiyambaza inzobere zikazitaho.

Inkoko ziri mu kiraro, izi nkoko zifite amabara menshi atandukanye, izi nkoko ariko ziganjemo iz'umukara kandi inyinshi muri zo ni inkokokazi, mu kiraro harimo agakoresho kifashishwa baha amazi inkoko kugira ngo amazi atameneneka hasi mbese zikayangiza, muri izi nkoko izindi zihagaze ku biti byo mu kiraro, ni byiza ko tworora inkoko kugira ngo abana bacu batazagwingira kubera kubura intungamubiri z'ibikomoka ku magi.

Inkoko zorowe ku buryo bwa kijyambere zirimo amasake ndetse n’inkokozi ziri mu kiraro, harimo n’utuntu bashimo kugira ngo zijye zinyweraho amazi, ndetse banazigaburiremo nta kibazo zifite, zirakuze zigeze mu gihe cyo gutera ndetse no kuribwa, ni byiza kororera inkoko mu kiraro.

Inka nziza cyane z'inyambo, ziri ahantu hubakiwe gutera inanga, hariho abandi bantu babyigiye ndetse n'aborozi bazo baje guteza intanga, abantu babyigiye bambaye imyenda y'akazi harimo abambaye iy'umweru ndetse n'abambaye iy'ubururu, ni byiza ko duteza intanga inka zacu hariho n'intebe.

Ibigori byeze biratonoye. Ni byiza cyane kandi ni iby'umuhondo. Ntabwo ibishishwa babimazeho, kandi bisa n'aho bikiri no mu murima.

Inka iri mu kiraro ahantu bageneye gushyira inka zarinze kugira ngo ziterwe intanga. Yambaye iherena kandi iteze nk'inyambo. Hari abantu babyigiye babiri, umwe ari gutera intanga, undi amuhagaze ku ruhande. Bose bize ibijyanye n'amatungo.

Inka z'inyambo ziteze ubunyambo zambaye amaherena atandukanye ku mabara, harimo imwe ifite iherena ry'ibara ry'icyatsi, izindi zikaba zifite amabara y'umuhondo. Muri izo nka harimo akanyana gatoya kari imbere bisa n'aho zikuwe cyangwa se zahuwe.

Inka z'inyambo zifite amahembe ateze bunyambo, harimo imwe yambaye iherena iri kureba aho izindi ziteye umugongo, ni byiza ko inka zacu tuzishyira mu kiraro kinini tukazogereza hamwe kugira ngo tuzirinde uburondwe.

Abantu babiri bize ibijyanye n'amatungo umwe afashe umurizo w'inka undi ari kuyitera intanga nyir'inka yaje ayizaniye kuyiteza inanga kuko bigaragara ko iyi nka yari yarinze abantu bize iby'amatungo ni ingenzi kuko badufasha gutera inka zacu inyanga iyo zarinze kugira ngo twongere umukamo.

Mu cyumba, harimo abantu batatu, barasuzuma imiti igiye itandukanye y'amatungo, mu by'ukuri bagaragara nk'abantu bize ibijyanye n'amatongo, bambaye bose imyenda y'umweru ariko harimo umwe uri hagati unawambaye mu mutwe, bose bambaye n'dupfukamunwa.

Mu ishyamba ry'inzitane imbwebwe nyinshi utamenya umubare wazo witonze ukabara neza, ziriteguye wagira ngo hari inyamaswa igiye kuvumbuka zirukanga ziyifate. Mu byukuri sibyiza ko abana bajya mu ishyamba kuko bahahurira n'inyamaswa zitandukanye zikaba zabarya cyane cyane nk'imbwebwe.

Utunyamaswa tuba ahantu henshi hatandukanye. Twaba mu nzu ndetse no mu gasozi. Dutunzwe no kurya imyaka abantu bahinga ndetse ntiturya utundi dusimba tugenzi twako. Si byiza ko imbeba zacika kuko zifatiye runini abantu n'ibintu.

Ibiguruka bitatu ni imbata. Ziri mu mazi aho zitegura kuguruka nyuma yo koga uko bigaragara ntabwo zirakura. Hari imwe iryamye imbere y'izindi ebyiri zihagaze.

Inyamaswa yo mu gasozi, iri ahantu mu myaka y'abaturage, iyi myaka ntabwo ari ubwoko bumwe, iyi nyamaswa kandi ni igitera, ifite ubwoya bw'umukara ndetse n'ubw'umweru ku munwa, hejuru mu mugongo hasa n'ibara ry'ikigina, ifite n'umurizo muremure.